Ndi kubona abantu babiri bari mu nzu mo imbere, ndi kubona intebe yegamirwa ifite ibara ry'umweru hamwe n'agahondo, ndi kubona umukobwa wambaye amarinete yambaye imyenda y'imikara, bose baricaye.

Ndi kubona umuganga wambaye imyenda ye y'abaganga y'ubururu, ndi kubona umusatsi, ndi kubona ga, ndi kubona umurwayi n'agatebe k'umurwayi, ndi kubona agahuhamuyaga, ndi kubona n'ibikoresho byinshi bitandukanye.

Icupa ryiza rihagaze rimeze nk'icupa ry'umuti, icupa rifite amabara atandukanye harimo umukara, hakabamo umuhondo, hakaba kandi n'amagambo yanditse ariho mu ibara ry'umukara, hakaba n'akanyoni gashushanyijeho.

Ndi kubona icupa ryiza ricuritse, rifite umuvuniko w'umweru, rigizwe n'amabara atandukanye: umweruru n'icyatsi, hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, hakabaho n'akamenyetso.

Ndi kubona ururabo rwiza rufite amabara y'ubururu, rukagira n'indabyo nziza z'umutuku zirimo n'akabara k'agahondo ndetse n'akuru gakeya, ndi kubona ruri ku musenyi ku butaka butukura.